Abaganga bafashaga abaturage kugira ubuzima bwiza kubera ko babaga batarwaye. Iyo urwaye ugomba kuja kwa muganga bakakuvura, bakaguha imiti ituma umererwa neza mu gihe urwaye.

Ahangaha ni muri farumasi y'imiti. Zino miti zifashishwa mu kuvura abantu barwaye indwara zitandukanye.

Aha bacururizamo imiti y'ubwoko bwose. Ni muri farumasi. Bacururizamo ibinini, ibipfuko, inshinge. Bakaba bafite n'imashini ibafasha kureba uko ibicuruzwa byabo biri kugenda neza. Iyo urwaye ujya kugurayo imiti.

Ibyatsi by'ifashishwaga mu kuvura indwara, gakondo abana n'abantu bakuru babaga barwaye ibijyanye n'uko babavuraga bakoresheje ibyatsi gakondo.

Ibyatsi gakondo bakuragamo imiti zo guha abantu mu gihe bari kubavura kandi ibi byatsi byifashishwa nk'imiti bahaga abantu iyo barwaye.

Ibi ni ibyatsi gakondo. Babikoreshaga bari kuvura abantu barwaye. Barabivugutaga, bakabibaha, bakabinywa. Babaga barwaye. ugo ni umuti guvura abantu.